Ndabona inzu, ku gice cyo hino isa umweru, ifite amadirisha y'umukara, imbere yayo handitseho, Legendary Luxury Mythos.

Ndabona ibirayi, ndabona ibitoki, ndabona umunzani, ndabona abaturage, ndabona urugi rw'umutuku.

Ndabona inzu ifite inkingi z' umweru, ifite parafo y'umweru , ifite ibikuta, igikuta cyo hejuru cy' umukara, amadirishya, ndabona ikirere, ndabona amatafari yubakishije urukuta....

Ndabona umugore wicaye, wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari ameza ariho ibipapuro bimeze nk'amadokima, hirya ndabona akabati, ndabona n'idirishya.

Ndabona ahantu bacururiza mu gatajeri, harimo ibintu by'amoko yose, utudobo tumeze nk'utwa omo, n'ibintu bimeze nka mayoneze hejuru handitseho dayari, hari n'utuntu two twerekana nyine igiciro.